Ishuri ririho ibishushanyo bitandukanye nk'imfashanyigisho y'abana, hariho igishushanyo cy'ururabo ndetse munsi handitseho ijambo fish bisobanuye ifi bivuze ko bashyira ibishushanyo kugira ngo babashe kwigisha abana amazina y' ibyo bishushanyo bitandukanye mu ndimi z'amahanga.

Igishushanyo cy'umwana wambaye ikanzu y'icyatsi, arimo gukaraba. Ibyo bita kandagira ukaraba inyigisho zihabwa abana bakiri batoya, cyangwa abanyeshuri muri rusange, kugira bagire umuco wo gukaraba gihe bavuye mu bwiherero cyangwa bagiye ahandi hantu hatandukanye. Imbere ye kandi hari undi mwana uhagaze wambaye ishati ijya gusa umweru.

Icyapa cyanditseho tura aheza. Bivuze ko ari ubukangurambaga buri gukorwa kugira ngo bashishikarize abaturage gutura ahantu heza, hari isuku ndetse na ho hasa neza.

Igishushanyo kiriho abanyeshuri ndetse n'abarimu, abanyeshuri b'abahungu bambaye imyenda y'ikigina, noneho abanyeshuri b'abakobwa bakaba bambaye amakanzu y'ubururu, abarimu babari imbere, harimo uw'umugabo ndetse n'umugore.

Umwana ukiri muto arimo kwiga gushushanya, aho impande ze hari ibindi bishushanyo bihari, aho arimo gushushanya akoresheje amarangi, ibi ni imfashanyigisho z'abana mu kwagura impano zabo ndetse no gukomeza kubakundisha ishuri.

Umuntu ari kumwe n'umwana. Arimo kumwereka ibishushanyo bishushanyijwe ku gikuta. Bikunda gukoreshwa mu mashuri y'inshuke. Bimwe mu bishushanyo bishushanyije ku rukuta hariho inanasi, igishyimbo, urunyanya, umuneke ndetse n'ibindi.

Ishuri ririho ibishushanyo bitandukanye byifashishwa nk'imfashanyigisho mu bana bari mu mashuri y'inshuke, hariho ibishushanyo, hari nk'inkoko iri ku isahani itetse ndetse n'umwumbati uriho imyumbati, n'igishyimbo ndetse n'ibindi bimera.

Ishuri rifatanye n'ikigega, iki kigega gikoreshwa mu gutanga amazi igihe imvura yaguye cyangwa yagiye kugira ngo yifashishwe mu bikorwa bitandukanye kandi nanone iri shuri ni ishuri ry'abana b'inshuke, aho baba baje kwiga ubumenyi bw'ibanze kugira ngo babashe kumenyera kujya ku ishuri.

Igikapu. Igikapu kiri mu mabara ajya gusa umutuku, akenshi abana bakiri bato barabikunda kugira ngo babijyane ku ishuri. Bashyiramo ibikoresho bitandukanye nk'amakayi, ikaramu ndetse n'utundi tuntu umwana yarya cyangwa yanywa nk'amandazi n'igikoma.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi biriho n'uburiri bwo kuryamaho, hariho kandi n'ibishushanyo ku ruhande, ni ahantu abana biga mu mashuri y'inshuke bakunda kujya bakaryama kugira ngo bakunde ishuri.

Ikigo cy'amashuri abanza cyangwa y'inshuke, hariho ibikinisho bitandukanye, abana bakoresha kugira ngo bakunde ishuri kandi bajye, bajye baza ku ishuri kugira ngo babone ibyo bikinisho.

Igishushanyo k'inzu kiri gukoreshwa nk'imfashanyigisho mu mashuri abanza, barimo kwigisha ibice bigize inzu harimo amadirishya, umuryango ndetse n'igikuta.

Ishuri ryubatse neza kandi ririho ibintu by'imfashanyigisho, igihande kimwe cy'inkingi kiriho imibare kuva kuri rimwe kugera kuri kane, ikindi gihande kimwe kirimo inyuguti z'amagambo kuva kuri A kugeza kuri D.

Igipangu kinini kiriho umuryango uri mu marangi y'icyatsi. Handitseho icyapa kivuga ngo murakaza neza kuko mo secondary school, bivuze ko ari ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Rukomo. Aha niho unyura winjira muri iki kigo.

Ishuri risakaje amabati y'ubururu n'imiryango ikaba isa ubururu kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye. Amashuri ameze gutya akunze kuba ari amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Ibikoresho bikoreshwa mu mibare, barimo gushushanya bimwe mu bishushanyo bitandukanye. Haba harimo nko gushushanya uruziga cyangwa imirongo itandukanye, ibikoresho harimo amarate, umugoma, takereyo, kerereyo ndetse na kompa ikoreshwa mu guca uruziga.

Inyuguti ndetse n'igishushanyo kigaragaza imibare cyangwa isomo ry'imibare. Iri ngiri baryiga bari kwiga ibyitwa seti. Aho hari iruhande rumwe rwitwa a urundi rubaka rwitwa b noneho bikaba byahuriye ahantu hamwe hari a na b aribyo bita itasekishoni.

Ishuri ryubatse neza. Ni amashuri yubatse mu buryo bubiri rimwe rihagaze riri mu murongo uhagaze irindi riratambitse kandi imbere y'umuryango hari ibikapu by'abanyeshuri babisize hanze ,aho bameze nk'abagiye gukora ikizamini kugira ngo badapera, ibikapu bakaba babishyize hanze.

Igikoresho kibikwamo ibindi bikoresho byifashishwa mu mibare, cyane cyane iyo bari gushushanya bimwe mu bishushanyo bikoreshwa mu mibare nk'uruziga, metero kare n'ibindi bitandukanye.

Igikoresho kibika ibindi bikoresho byifashishwa mu gushushanya ibishushanyo bitandukanye, ibyo bimwe muri ibyo bikoresho harimo goma, kompa ikoreshwa mu gushushanya uruziga, amarate mu bwoko butandukanye, akoreshwa mu gushushanya ndetse no gupima ama angle.

Ibishushanyo by'abantu ndetse n'urukwavu ruri hagati yabo, ni abana babiri ndetse n'urukwavu ruri hagati yabo. Ibi bikoreshwa nk'imfashanyigisho mu bana bo mu mashuri y'inshuke, aho baba barimo kwebereka videwo kugira ngo zibafashe kumenya ururimi rw'amahanga, ku ruhande kandi hari undi muntu urimo guca amarenga kugira ngo n'abatavuga cyangwa abatumva basobanukirwe.

Inzu irimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, aho bikunda kuba biri mu bigo by'amashuri, hakaba icyumba cyitwa isomero, ariho bibikwa kugira ngo umunyeshuri ukenera gusoma cyangwa kwiyungura ubumenyi, ajye gutira igitabo asome.

Igikapu cy'ubururu. Igikapu kiriho igipupe, aho bifasha umwana kugikunda. Cyane ibikapu bigomba kuba bifitwe n'abana biga mu mashuri abanza kugira ngo bajye batwaramo ibikoresho by'ishuri nk'amakaye, amakaramu ndetse n'ibindi.

Ishuri ririmo ibikoresho by'abanyeshuri, harimo intebe abana bicaraho, ameza ndetse n'intebe mwarimu yicaraho, n'ikibaho bandikiraho barimo kwiga, ishuri rimeze nk'iryo mu bana b'incuke cyangwa mu mashuri abanza.

Ibikoresho bikoreshwa mu mibare aho baba barimo gushushanya ibishushanyo bitandukanye. Harimo nka kereyo ikoreshwa mu gushushanya ndetse hakaba ari na kompa ikoresha mu gushushanya uruziga ndetse n'amarate apima ibipimo bitandukanye, hakaba anifashishwa mu gushushanya.

Igishushanyo cy'abana b'abanyeshuri bari mu ishuri, ni abana umunani, imbere yabo ku kibaho hariyo isomo ry'imibare ndetse no ku bikuta hariho ibishushanyo byanditseho amagambo nk'imfashanyigisho bifasha abana bo mu mashuri abanza.

Ishuri. Ni ishuri rirerire ririmo amashuri menshi agiye atandukanye, aho ari inyubako imwe ariko imiryango myinshi itandukanye. Amashuri ameze gutya akunda kuba ari amashuri y'abana, aho impande y'umuryango umwe hagazeho abantu.

Ishuri ryo mu mashuri abanza, ririmo ibikinisho bitandukanye nk'amagare ndetse n'ibindi, bimwe mu bifasha abana gukunda ishuri ndetse bakumva batasiba kubera ko baba bazi ko bino bikinisho bagomba kubikoresha bari ku ishuri. Ni kimwe mu bifasha abanyeshuri bakiri bato kugira ngo bajye kwiga.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu isomo ry'imibare cyangwa ahandi bakenera ibishushanyo, harimo ibikoreshwa mu guca uruziga nka kompa ndetse n'amarati aca imirongo, agapima n'ibindi bitandukanye, hakabamo umugoma usiba kereyo, iyo yanditse nabi ndetse na takereyo iconga kereyo.

Ibikoresho byifashishwa mu gushushanya mu mibare cyangwa andi masomo atandukanye kandi akafashishwa mu gupima imfuruka zigiye zitandukanye, harimo igikoresho gipima imfuruka ndetse n'izindi zica uruziga, harimo umugome kandi usiba kereyo ndetse na takeleyo iyiconga.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwandika ndetse no gushushanya, harimo kaleyo ziri mu mabara atandukanye nk'umutuku, ubururu ndetse na takeleyo iziconga. Hari n'umugoma kandi usiba ibyo byanditse bitameze neza, hakaba na kompa ikora mu gushushanya uruziga cyangwa ibindi bishushanyo.

Ibikoresho bikoreshwa mu gushushanya bimwe mu bishushanyo biboneka mu mibare, umuntu yafashe kompa ndetse ashyiramo kareyo arimo gushushanya uruziga nka kimwe mu bishushanyo bikoreshwa n'ibi bikoresho.

Abanyeshuri bicaye ku murongo kandi hagati y'umunyeshuri umwe n'undi harimo intera, bambaye impuzankano y'amashati y'umweru hasi ikigina, abandi bakaba bambaye amashati y'umweru hasi umukara bakaba bambaye n'agapfukamunwa, nta banyeshuri bari mu kizami.

Abana bicaye hamwe kandi bari mu gikorwa kimwe. Bameze nk'abakurikiye inyigisho cyangwa bakaba barimo kwiga. Bari mu kigero cy'abana bari kwiga mu mashuri yisumbuye, aho bari mu ishuri nta mpuzankano bambaye.

Abanyeshuri bo mu kiciro cy'amashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'amashati y'ubururu bwerurutse, amapantaro n'amajipo y'umukara, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bahagaze ku murongo aho barimo guhabwa ikiganiro n'abayobozi babo.

Abanyeshuri bicaye ku murongo kandi bicaye neza kandi bakaba bambaye impuzankano, hejuru amashati y'umweru, hasi ikigina. Bicaye ku murongo, buri munyeshuri yicaye ku ntebe ye, aho barimo gukora ikizamini.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye ku murongo, n'abana bo mashuri abanza aho bagiye guhabwa ikiganiro cyangwa ubundi butumwa bagenewe, harimo abambaye impuzankano z'umuhondo n'icyatsi ndetse n'abambaye umweru n'ubururu, imipira yo kwifubika ifite amabara y'umweru yerurutse.

Abanyeshuri bahagaze bambaye impuzankano z'amashati y'umweru hasi akaba ari umukara. Umupira wo kwifubika kandi na wo ukaba usa umukara. Imbere yabo hari umunyeshuri wambaye umupira w'ubururu ameze nk'umuntu ubayoboye. Ni abanyeshuri bahagaze ku murongo nkabakurikiye ikiganiro runaka cyangwa izindi gahunda zateganyirijwe.

Abanyeshuri bo mumashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'amashati y'umweru asa ikigina, imipira yo kwifubika irasa icyatsi, bari mu ishuri aho barikwifotoreza hamwe nkabana barimo gusezerana.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bicaye mu buryo butandukanye, aho ntawegeranya n'undi kandi bameze nk'abari gukora ikizamini, impande yabo hari umwarimu urimo kubacunga kugira ngo badakopera.

Ishuri ryubatse neza kandi rigeretse, akenshi aya mashuri aba ari ay'abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye ,kandi aya mashuri menshi aba ameze kimwe mu gihugu cyose iyo ari amashuri ya Leta.

Ikibumbano cy'umuntu, ariko cyamenetseho gato. Akenshi ibi bikorwa n'abana cyangwa abanyeshuri baba bari kwitoza, gushushanya cyangwa gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye. Iki kibumbano gikozwe mu ibumba.

Intebe iri mu ibara ry'ubururu, aho ifite ahegamirwa n'aho bandikira. Izi ntebe zikunze kuboneka mu mashuri nka kaminuza cyangwa andi mashuri y'imyuga, aho umunyeshuri ashobora kwicaraho ndetse akaba yanashyiraho mashini cyangwa akaba yakwandikiraho.

Abantu bambaye impuzankano zisa, iyi myenda ikunda gukoreshwa abanyeshuri bo muri kaminuza igihe basoje amashuri yabo, mu ndimi z'amahanga babyita kugaraduwetinga ni ho baba bafashe impamyabumenyi y'icyiciro basoje cya kaminuza.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye mu ishuri barimo kwiga, abanyeshuri benshi bafite imashini zabo abandi bafite amakayi barimo kwandikamo, imbere yabo hari umwarimu urimo kubigisha bakoresheje porojegiteri kugira ngo babashe kwiga neza.

Inzu igeretse neza kandi iri mu marangi y’umweru. Inzu zimeze gutya, zubatse gutya zikunze kuba ziri mu mashuri ya kaminuza ndetse n'andi mashuri atandukanye.

Ahantu baparika ibinyabiziga kandi hasakaye kugirango bitanyagirwa. Harimo imodoka imwe n'iyindi imeze nk'imodoka ifite amapine mato y'imbere n'andi abiri inyuma manini cyane. Iparitse ahantu hameze nko ku ishuri cyangwa ku ivuriro aho haba harimo nk'abakozi baje gukora bazanye ibinyabiziga.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'abasoje kwiga kandi bakaba bafite n'impamyabumenyi zabo bari kwifotoza ifoto z'urwibutso kugira ngo bazajye babyibukiraho, akenshi bikunze kuba muri kaminuza y'abanyeshuri basoje amasomo mu cyongereza babyita kugaraduwetinga.

Ahantu hasakaye kandi hari amapave bivuze ko ari ho ibinyabiziga biparika cyane cyane ahantu mu mashuri iyo nk'abarimu baje kwigisha cyangwa abayobozi bahaje, aha ngaha muri iki gice rero haparitsemo amagare atatu ndetse n'umuhungu uhagaze imbere yaho.

Ishuri ryanditseho unara zerucyenda b zeru rimwe, rishatse kuvuga ko ari nimero y'ishuri ishaka kuyobora abanyeshuri. Ikunda gukoreshwa cyanecyane muri kaminuza aho umuryango uyobora abanyeshuri batahazi kugira ngo bajye kwigiramo.

Intebe ziri mu mabara y'ubururu, abanyeshuri muri kaminuza bakunda kwicaramo. Zifite aho zegamirwaho ndetse n'aho bandika. Ahantu hakandikira cyangwa hasi ikindi gikoresho nk'imashini. Ishuri ririmo abanyeshuri babiri, abandi bari hanze.

Abantu benshi bari mu nzu imwe, bateraniye hamwe. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Imbere yabo hari amazi, imashini ndetse n'ibindi. Harimo n'abari kwandika. Bari kureba mu cyerekezo kimwe, aho bari kumva ikiganiro, ni abantu bo muri kaminuza, harimo abanyeshuri ndetse n'abayobozi.

Intebe y'ubururu ikoze mu buryo bwiza, aho wegamira ndetse n'ahantu watereka igikoresho cyangwa ukaba wakwandikiraho nk'ibintu, iyi ntebe iteye ahantu hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi, aho bayiteretseho indobo isa icyatsi, hari iyindi ndobo isa umutuku ndetse n'ameza na ga, ni ahantu hatameze neza, hadakoze neza isuku, bameze nk'aho bari kuhubaka.

Abayobozi ba kaminuza ndetse n'abandi batandukanye bamaze gukora inama barimo gufata ifoto y'urwibutso, bari imbere y'ahantu hari ameza manini aberaho ibiganiro bitandukanye.

Abanyeshuri bo muri Kaminuza, bicaye mu matsinda, bamwe barimo kwiga, abandi barahagaze. Bicaye mu ishuri ririmo intebe zifite amarangi y'icyatsi ndetse n'ameza bakoresha bandikiraho, ajya gusa umuhondo.

Ahantu hari amapave ndetse n'indabo ziconze neza, harimo n'ibindi biti binini by'indabo ndetse n'imyembe, bikunze kuboneka mu bigo by'amashuri cyangwa ahandi hantu hari ikigo cyisanzuye cya Leta kiba kirimo indabo ndetse n'inzira abantu banyuramo.